Icyumba cy'inama harimo abantu bicaye, muri iki cyumba harimo icyapa cyanditseho Equity n'ikindi cyanditseho invesite ini Rwanda, harimo umukobwa uri inyuma uhagaze.

Icyumba k'inama harimo abantu bicaye, hari umugore uhagaze ufite indangururamajwi mu ntoki.

Inama harimo abantu bicaye, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi, hari n'abafite mudasobwa.

Icyumba cy'inama harimo abagabo batatu bose bambaye amarinete, babiri bambaye amakote y'umukara, iki cyumba harimo intebe z'umukara n'ameza ateretseho ji n'amazi.

Icyumba k'inama harimo abagabo batatu bicaye n'umwe uhagaze babiri barimo kwandika, undi afite terefone mu ntoki, ku meza harambitseho amarinete na terefone na kamera. cyangwa se apareye, muri bo harimo umugabo uhagaze ufite apareye mu ntoki cyangwa se kamera.

Aha ni mu nama, harimo abantu benshi abana, abagore n'abagabo, hari umugore uhagaze imbere.

Icyumba cy'inama harimo abantu bicaye, imbere harimo abahagaze, imbere yabo ku meza hateretse amacupa y'amazi na ji, hagati yabo harimo kamera.

Abantu bari mu nteko, bamwe baricaye abandi barahagaze, inyuma yabo hari inzu, ifite inzugi nziza z'amarangi y'ubururu, n'amadirishya asize irangi ry'umutuku, harimo umuntu witwikiye umutaka w'umukara.

Mu cyumba cy'inama harimo abantu bicaye bakurikiye inama, hari umugabo wambaye ishati y'umukara, isaha ku kuboko kandi afite indangururamajwi mu ntoki.

Intore zirimo guhamiriza, harimo abambaye imikenyero y'umweru, abandi bambaye inshaburi n'imipira itukura, imbere yabo hari n'abandi bari kuririmba bakoma amashyi.

Ibi ni ibisabo biteretse ahantu hamwe, bitondetse kumurongo, buri murongo ugizwe nibisabo bitatu.

Umugabo uhagaze wambaye amarinete n'isaha ku kuboko afite indangururamajwi mu ntoki, inyuma ye hari intebe z'icyatsi.

Intore zirimo kubyina zambaye imyenda y'umweru n'umukara, zambaye inigi n'amayugi.

Abakobwa barimo kubyina bambaye imikenyero, bari kumwe n'intore zirimo guhamiriza kandi bose barimo guseka.

Abantu bicaye hamwe harimo umugore uri guseka yifashe mu maso, impande ye hari undi mugabo wambaye amarinete na we yifashe ku munwa yumiwe.

Umubyinnyi gakondo urimo kubyina ateze amaboko, arimo guseka yambaye imishanana y'umweru.

Umuco nyarwanda tugiramo imbyino gakondo nk'uko tubireba hano hari intore zirimo guhamiriza, zambaye imishanana, amashati y'umweru, inigi mu ijosi ndetse n'amayugi ku maguru, muri iki cyumba kandi harimo abantu bicaye barimo bareba izi ntore zirimo kubyina.

Icyumba kicayemo abantu bari kunywa ji n'amazi, imbere yabo hari ameza kandi bicaye ku ntebe z'icyatsi.

Iyi ni ingoma irambitse hasi, haziritseho imirishyo ibiri, abakaraza bakoresha barimo kuvuza ingoma.

Abakobwa barimo kubyina bateze amaboko, bambaye imikenyero, imbere hari umukobwa urimo kubyina aseka, impande ye hari n'ingoma.

Abantu bicaye, abandi barahagaze barimo gufotora, hari itorero ririmo kuririmba, imbere hari umukobwa urimo kubyina ateze amaboko.

Aba ni ababyinnyi gakondo barimo kubyina bateze amaboko, bambaye imishanana harimo n'abambaye amaherena.

Umugabo w'inzobe wambaye ingofero y'umuhondo n'umupira urimo amabara y'umuhondo n'umukara, arimo gukora umuriro w'amashanyarazi.

Abantu buriye hejuru ku mapoto barimo gukora insinga z'amashanyarazi, impande yayo mopoto hari inzu zisize amarangi y'umuhondo.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye by'amashanyarazi, hagiye hacometse insinga, harimo umuntu wambaye imyenda y'akazi, agapfukamunwa k'umukara, ingofero y'umuhondo, ingofero irinda umuntu kuba yakomereka umutwe ukangirika.

Umuntu wuriye ku ifoto arimo kumanika kashipawa, yambaye ingofero y'umuhondo, itabuirya y'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Umuntu wambaye igisarubeti cy'ubururu, wuriye ku ipoto, arimo guhuza insinga z'amashanyarazi.

Iki ni icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu ikoranabuhanga, harimo imisinga y'ubwoko butandukanye, iy'umuhondo, iy'umutuku, iy'ubururu ndetse hari n'amamashini.

Aha ni amasaha y'ijoro, hari amatara yo ku muhanda arimo kwaka ndetse uyu muhanda ukikijwe n'ibiti.

Insinga z'amashanyarazi ziri ku kumuhanda, kuri uyu muhanda kandi hari icyapa cyanditseho REG impande y'iki cyapa hakaba hari n'inyubako.

Amapoto hariho insinga z'amashanyarazi, impande y'aya mapoto, hari inzu nyinshi zisakaje amabati y'umutuku.

Aha ni ku nyubako y'Akarere ka Nyagatare Irembo ry'Amahoro, imbere y'iyi nyubako hari ururabo runini.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe bishimye, harimo umugore wambaye itaburiya y'umweru arimo guseka, hafi y'aho hari igiti cy'umwembe.

Iyi ni inyubako nini, imbere mu muryango wayo, handitseho Inyange miliki pawuda puranti Nyagatare.

Iyi ni inzu y'ibiro by'Umurenge wa Musheri, hariho antene ya televiziyo, kuri iyi nzu handitseho RBA, inyuma y'iyi nzu hateye ibiti.

Inyubako isakaje amabati, imbere y'iy'inyubako ku rubaraza, hari abantu babiri bicaye, impande yayo hari ikigega cy'umukara.

Abantu babiri bari kugenda mu muhanda batwaye amagare, impande y'umuhanda hubakishije ibyuma, hafi yaho kandi hari n'ibyatsi.

Izi ni inyubako zisakaje amabati y'umutuku, mpande y'izi nyubako hari ubusitani bwiza buteyemo indabo.

Inyubako nini isize amarange y'ubururu, yanditseho gira ubuzima herufu posite i Karambo, impande yayo hari umusirikare ndetse imbere yayo hari ubusitani buteyeho indabo.

Inzu isize amarangi y'umweru, ifite amadirishya asize irangi ry'ubururu, inzu ikikijwe n'ibiti byinshi, hafi y'inzu kandi hateye n'indabo.

Inzu isakaje amabati y'umutuku, imbere yayo hari abantu babiri bicaye, umugore uhagaze, ku idirishya hariho icyapa cyanditseho kwibuka makumyabiri nicyenda, mbere yaho kandi hari ibendera ry'igihugu cy'u rwanda.

Leta igira inyubako zigiye zitandukanye kugira ngo ifashe abaturage bayo mu iterambere, aha ngaha hari inyubako ya sitade abantu bakunda gukiniramo umupira cyangwa se haberamo inama zimwe na zimwe zigiye zitandukanye.

Iyi ni inyubako ya leta, isize amarangi y'umweru n'ubururu, isakaje amabati, imbere y'iyi nyubako hagaze abantu babiri.

Umuntu uhagaze imbere y'inyubako, ifite amabati y'ubururu inzugi z'icyatsi, imbere y'uyu mugabo, hateretse ibicuba bine batwaramo amata.

Aha ni ku biro by'akagari ka Ndengo hari inyubako ifite amabati y'ubururu, hari idirishya ry'ubururu rw'ubururu rufunguye, inyuma y'inyubako turahabona ibiti birebire bisumba inyubako.

Aha hari abagabo barimo kubaka umuhanda, babiri begeranye bambaye ingofero z'imihondo, hakurya yabo na bo hari abandi, impande y'ahantu bari kubaka umuhanda hateye ibiti.

Inzu zubatse mu buryo bwa kinyarwanda zikikijwe n'ibiti zubatse impande y'ikiyaga, hafi y'icyo kiyaga harimo umuntu uri kugenda yerekeza ku kiyaga wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara.

Iki ni igicumbi cy'itorero cyubatse ahantu ku muhanda, n'icy'Akarere ka Nyagatare, Umurenge wa Nyagatare, Akagari Kasheke, Umudugudu wa Nyegeza, iki gicumbi kandi kiriho indangagaciro na kirazira.

Inyubako ,iri hagati y'imihanda ,hafi y'inyubako kandi hari n'ishyamba.

Inyubako isize amarangi y'ubururu, hicayemo abantu, imbere yayo hari intebe, hari na kandagira ukarabe z'umweru.

Abantu benshi bicaye hamwe mu nama, imbere yabo hari umugabo uhagaze yambaye imyenda y'umukara n'inkweto z'umukara afite indangururamajwi mu ntoki, abantu bicaye imbere bicaye ku ntebe z'umweru impande yabo hakikijwe n'ibiti.

Abantu bicaye hamwe, imbere yabo hateye indabo, bambaye furari zo kwibuka hari n'umupolisi uhagaze.

Abantu bicaye hamwe hari umugore uhagaze, wambaye ikanzu y'itenge, uteze ibiganza, impande y'aba bantu hari inzu, hateye n'ibiti.

Aha ni ku rwibutso rwo ku Muvumba, hari abantu benshi barimo abasirikare n'abaporisi, imbere yabo hari umugabo ufite indabo mu ntoki.

Abantu benshi, bamwe baricaye abandi barahagaze. Imbere yabo hari umugore, ubyibushye wambaye ikanzu y'igitenge n'inkweto z'umukara, afite indangururamajwi, mu ntoki.

Abantu benshi bicaye hamwe bamwe bicaye hasi abandi bicaye ku ntebe, hagati muri bo harimo bafure isakaza amajwi kugira ngo abantu bose babashe kumva, aho aba bantu bicaye kandi hari igiti kinini.

Abantu benshi bahagaze mu tente y'umweru, imbere yabo hagaze umugabo wambaye ishati y'umukara ipantaro y'ubururu, afite indangururamajwi mu ntoki.

Abantu bari ahantu hamwe, bamwe baricaye, abandi barahagaze, hari umugabo uhagaze wambaye umupira w'ubururu, hari n'abagore babiri bahaga, bifubitse ibitenge.

Abantu benshi barimo abagore, abagabo n'abana, impande y'ahantu hateye ibiti ndetse hari n'amahema y'umweru.

Abantu bahagaze barimo umupolisi wambaye imyenda y'akazi, aho aba bantu bahagaze hari intebe z'ibiti ndetse hahinze n'urutoki rwinshi. Urutoki rurimo amakoma yabaye umuhondo ndetse n'amakoma akiri icyatsi.

Abantu bicaye hamwe, hari umugore uhagaze wambaye ikoti ry'umutuku n'ipantaro y'umukara, muri aba bantu bicaye harimo mudaso ndetse n'umusirikare, hafi yaho hateye ibiti.

Aha ni ku kumuhanda wa kaburimbo impande y'uwo muhanda hari ipoto ryegeranye n'akantu kubatse k'umweru kandiditseho amagambo y'umukara, impande y'aho kandi hari ishyamba ririmo ibiti binini.

Imodoka y',ubururu iparitse mu muhanda wa amapave, hafi y'imodoka kandi hari moto ndetse hari n'inyubako.

Aha ni mu masaha y'ijoro, hari amatara yo ku muhanda arimo kwaka, impande y'uwo muhanda hari icyapa kigaragaza aho imodoka zihagarara.

u Rwanda rwateye imbere, ahantu dusanga hari amashanyarazi, ahangaha turabona amapoto arimo insinga z'amashanyarazi, agenda akwirakwizwa hirya no hino kugira ngo abantu babashe kugira amatara ndetse babe n'ahantu heza habona, impande y'ibiti by'amashanyarazi kandi hari inyubako isakaje amabati y'umutuku.

Abantu babiri bahagaze imbere y'imodoka, umwe yambaye ijire y'umutuku ahagaze mu muryango w'imodoka undi ari inyuma ye na we arahagaze arimo kureba mu modoka, hafi y'imodoka kandi hari n'indi modoka y'umweru iparitse.

Umuhanda wa kaburimbo tubona umuntu uri kugenda asunitse igare, rihambiriyeho umufuka, yambaye inkweto z'umuhondo, impande yumuhanda kandi turahabona inyubako ifite amatafari y'umutuku, ifite n'igipanpu gifite urugi rusize amarangi y'umukara.

Aha hari icyapa cyo ku muhanda cyanditseho nimero mirongo itandatu, impande y'icyo cyapa hateye igiti, hakurya yacyo hari amazu ndetse n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo, impande y'uwo muhanda hari amazu asakaje amabati y'umutuku, ay'umweru n'ay'ubururu, hari icyapa kandi hari n'amapoto ariho insinga zamashanyarazi.

Imodoka yanditseho Yaho, ihagaze mu muhanda, urugi rufunguye, impande yayo hari abantu bahagaze, hari n'umugabo wambaye umupira w'umutuku wegamye ku modoka.

Umugabo uhagaze yambaye ingofero y'umukara, ishati y'isine n'isaha ku kuboko, afite indangururamajwi mu ntoki, inyuma ye hicaye abandi bagabo babiri.

Abantu benshi barimo gutema ibyatsi bifashishije gupakuka harimo abasirikare n'abadesso bambaye imyenda y'akazi hafi yabo haparitse moto, hari n'inyubako isize amarange y'umweru.

Abantu barimo gutema ibyatsi, hari abadaso n'abasirikare impande y'aha hantu kandi hateye ishyamba.

Abantu bicaye hasi abandi barahagaze, imbere yabo hari abantu batatu, hagati yabo hari umupolisi w'umugabo.

Umupolisi w'umugabo wambaye imyenda y'akazi, yambaye amarinnete, amanitse akaboko k'iburyo, impande ye hari umugabo wicaye, hafi y'aho hari ubusitani buteyemo indabo, hari inyubako isize amarangi y'ubururu n'inzugi z'umutuku, hafi yabo kandi hateye n'ibiti.

Abantu bicaye, harimo umuntu wambaye imyenda ya gisirikare, hahagaze umugabo ufite apareye mu ntoki.

Abantu benshi, bamwe barahagaze, abandi baricaye, hari abicaye hasi mu byatsi, abandi bicaye kumasuka, inyuma yabo hari igiti.

Abaturage barimo gukora umuganda, harimo abagabo n'abagore bose bambaye amapantaro, bamwe bari gukoresha amasuka abandi bagakoresha ibitebo.

Ikibuga kirimo abantu benshi barimo kugenda biruka, impande y'iki kibuga hakikijwe n'ibiti byinshi hakurya yacyo kandi hari imisozi iteyeho ishyamba.

Abantu benshi bicaye hamwe biganjemo abambaye amajire yi'icyatsi, hari umukobwa ufite terefone mu ntoki imbere ye hicaye umugabo wambaye imyenda ya gisirikare.

Aha hari abantu bicaye ku ntebe zasheze, abandi barahagaze, inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari, hari na moto ziparitse.

Ikibuga cy'umupira turahabona arimo gukina umupira wamaguru ikipe imwe yambaye imyenda yubururuindi yambaye imipira y'umutuku amakabutura y'umukara arimo ibara ry'umuhondo, impande y'iki kibuga hari abantu bahagaze, abandi bicaye barimo kureba abakinnyi b'umupira.

Aha ni ku kibuga harimo abantu bari kugenda, hanze kukibuga hari abandi bantu, kandi hakurya y'iki kibuga hari n'amazu.

Abantu bambaye imyenda ya siporo n'imidari mu ntoki bafashe urupapuro imbere yabo.

Aha ni mu kibuga cy'umupira w'amaguru, harimo abakinnyi bari gukina, ikipe imwe yambaye imyenda y'ubururu, indi kipe yambaye imyenda y'umuhondo, mu marembo yiki kibuga haparitsemo moto.

Abantu barimo kugenda mu muhanda, bambaye imyenda ya siporo, imbere yabo bari kugenda abagabo batatu, umwe uri hagati afite umupira mu ntoki, abandi babiri inyuma yabo bafite icyapa cyanditseho amagambo.

Abantu benshi bari muri siporo bamwe barapfukamye abandi barimo gutera pompaje, impande yabo hari inyubako isize amarangi y'umuhondo, haparitse imodoka y'umweru, hari n'amatara.

Aha ni ku kibuga cy'umupira, haririmo abantu barimo kugenda biruka, bambaye imyenda y'umuhondo, n'umukara, bamwe bari gukata iburyo abandi ibumoso.

Umuhanda wa kaburimbo, imbere hari imodoka, inyuma hari abantu benshi barimo kugenda, impande y'uyu muhanda hari n'amatara arimo kwaka.

Aha ni ku kibuga hari abakinnyi bambaye imyenda y'umuhondo, umwe muri bo yambaye umupira w'ubururu, ipantaro y'umukara ndetse hari n'abantu bari ku kibuga batari abakinnyi batambaye inifomo.

Ni mu kibuga harimo abantu bahagaze bambaye imyenda ya siporo, muri iki kibuga kandi harimo utwana tubiri kamwe kifashe mu gahanga, imande yiki kibuga hari inyubako zihegereye, inyubako ya mbere ibanza ifite urugi kuri gete rusize irangi ry'ubururu ndetse inyuma yayo hari indi nyubako ifite amabati y'umutuku.

Abantu benshi bari muri siporo, barimo kugenda biruka mu muhanda wa kaburimbo, impande y'uwo muhanda hateye ibiti n'indabo.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bari mu kibuga, harimo umuntu uryamye hasi, impande y'iki kibuga hakikijwe n'ibiti, hari amazu ndetse n'abantu bahagaze.

Mu kibuga tubonamo abantu bambaye imyenda ya siporo bamwe barahagaze abandi barimo kugenda, harimo umusore umwe tubonamo ko arimo kugenda yiruka abisikana n'undi wambaye umupira w'umuhondo n'ikabutura y'umukara afite agapapuro mu ntoki.

Umuhanda w'ibitaka urimo ibyatsi byinshi, mu nkengero z'uyu muhanda hateyemo ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umukobwa uri gukubura, wambaye imyenda y'ubururu, impande y'umuhanda, hateye ibiti.

Aha ni mumuhanda wibitaka, hapatsemo imodoka y'umweru, ndetse hari n'ahantu bigira gutwara imodoka, impande y'aha hantu kandi hari inzu isakaje amabati y'umutuku hateye n'ibiti.

Umuhanda wibitaka impande y'umuhanda hari amazu asakaje ibati ry'umutuku, ndetse hateye n'ibiti ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo impande y'uwo muhanda hari kugenda abakobwa babiri bambaye amapantaro n'imipira y'imyeru, kuri uyu muhanda kandi hari n'ivuriro.

Umuhanda wa kaburimbo, hari kugendamo umuntu utwaye moto, yambaye ingofero y'umutuku, ikoti ry'umukara, ipantaro y'umweru ndetse n'inkweto z'umukara, impande y'uwo muhanda hateye ibiti.

Abagore babiri bari kugenda mu muhanda n'amaguru, imbere yabo hari umugabo ufite igare, muri uyu muhanda kandi hari kugendamo n'imodoka ebyiri, imwe iri mu bwoko bwa fuso impande y'uyu muhanda hari amatara ndetse n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo iruhande rwawo hari akazu k'umuhondo, hari n'abantu bahagaze, hari n'umusore urimo kugenda akoze mu mufuka, imbere ye hari amapota.